Akabyiniro aho abantu benshi tuza gufatira ibintu bijyanye n'ibinyobwa, hakaba harimo utumeza dufite amaguru y'ibyuma, ariko agatabuleti ko hejuru hari imbaho ,hicaye umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ingofero, uri kuvugira kuri telefone.

Akabari aho abandu bajaga kunywera inzoga igihe bafite ng'umunaniro; bashaka kuruhura mu mutwe, cangwa bashaka umunezero n'ibyishimo, bakajayo bagamije kwishimira ibihe barimo cangwa bari mu mubabaro, kugira ngo barebe ko baruhura mu mutwe n'ibibazo bafite.

Umundu uhagaze muri kondwari. Kondwari ikaba ifite ibara ry'umukara, imbere ya kodwari hakaba hari indebe ibiri n'iyindi iri mu rubavu rwa kodwari. Inyuma hakaba hari ibinyobwa bigiye bitandukanye biri mu tubati, hakaba hari n'ibindi biteretse kuri kondwari.

Ahantu bacuruza icyo kunywa hakaba hari ibikoresho bya kinyagwanda bikoze mu biti, harimo udutebe, harimo ikisabo, harimo inzoga ziri mu kabati, hakaba harimo amabati asa n'akoze mu biti, harimo imitako myinshi igiye itandukanye n'umuntu ufashe icupa.

Abantu benshi bari mu kabari umwe ufashe mikoro undi wunamye uri guseka n'undi uri kureba nk'imbere uri guseka nabandi benshi bari muri ako kabyiniro. Harimo ameza akoze mu mbaho zimeze neza hirya hakaba hari icyapa kiri hejuru gishushanyijeho igicupa kinini.

Icapa kigaragaza ahantu bacuruzaga ibinyobwa n'ibintu by'ibiribwa haba handitse pirimusi munsi yacu hakaba handitse bare endi resitorenti hirya yacu hakaba hari igiti kirekire gifite amashami maremare inyuma yacu akaba ari akazu gafite amarangi k'umutuku hirya hakaba hari igicu kitamuruye

Ifunguro rikungahaye，ibyo kujya bitetse neza biri ku isahane y'umweru，hakaba hariho akaguru k'ingoko，hari ifiriti，hari n'umuceri n'utuboga ku ruhande，na mayoneze iri ku ruhande， n'utundi tunu tw'umutuku，twifashishwa mu kugaburira ibi....

Ibara ni ahantu abantu benshi duhurira tuje gufata ibyo kunywa no kuruhuka mu mutwe, kugira ngo tumere neza kandi tubone ibyishimo. Hakaba hari amacupa menshi ari mu kabati akozwe mu birahure. Imbere kuri kontwari hateretse ikirahure kirimo inzoga n'igicupa kinini cyanditseho mitzing.

Ahandu dusohokeraga tugiye gufata ifunguro n'ibiribwa mu bara. Hakaba hateretse akandu gakoze mu biti kariho ifunguro ririmo imigati, n'amasalade. Rikaba ari ifunguro riteguye cane neza kandi ryujuje indungamubiri zose.

Akabari bacururizagamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, ibyo binyobwa harimo amafanta, harimo mitsingi n'izindi nzoga z'ubwoko bwose abantu bazaga kunywera bakisusurutsa, bakumva bamerewe neza. Mbere ya kontwari hakaba hateretse udutebe dutatu two mu byuma, hirya hari akabati n'inyuma hari firigo yo gukonjesha inzoga.

Akabyiniro aho abantu benshi bajaga kwishimishiriza binyuze mu mbyino, mu kunywa ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye n'ibindi bintu byinshi bitandukanye haba harimo ababyinnyi, haba harimo abanywi, haba harimo abasinzi, haba harimo abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye bahuriye hamwe baje kunywa ubwo bishimira ibyo bagezeho cyangwa kwishimira igihe barimo.

Umugore ufite ibisuko bimeze nk'ingata, ufashe icupa mu ntoki ari gusuka mu kirahure, hirya ye no hino hari amacupa menshi atandukanye, inyuma ye hari abandi bantu harimo naho umugore ufite ibisuko by'umukara inyuma hakaba hari amadirishya y'umweru.

Akabari ko bacururizagamo inzoga nyingii zigiye zitandukanye, muri izo nzoga harimo: amafanta, amapirimusi, harimo amakanyanga, harimo ibyuma biteretse mu kabati, akabati karimo n'utuntu bashyiragamo amagi, turimo amagi makeya mu kantu ko munsi hakaba hari ibikarito birimo inzoga, hakaba harimo igikuta kiri inyuma yabyo gifi

Inzu z'ubucuruzi, imwe yo musi yanditseho lipa resitorenti bacuruza ibintu bijyaniranye n'ibiribwa ,iri hejuru yayo yanditseho twayifodi hakaba hari umuntu uhagaze nk' imbere wambaye agakoti k'umukara uhagaze iruhande rw'imodoka.

Inzu y'ubucuruzi ifite icyapa, imbere yayo ifite n'amarangi agiye atandukanye, aho inkigi zifite amarangi y'ubururu, hejuru hakaba ari irangi ry'mukara rinyuzemo imirongo, ku gihande hari amabara y'umuhondo, imbere yayo hakaba haparitse amagare.

Inzu z'ubucuruzi zifite amabara atandukanye, imwe isize amarangi y'umuhondo, iyindi isize amabara ajya kuba umukara werurutse, aha imbere hari abanyamagare basa n'abari kuganira, hamwe bacuruza amakara, ku yindi nzu yo hirya haparitse moto.

Inzu z'ubucuruzi, aho abantu bavuye ahantu hagiye hatandukanye bazaga kunwera no gucumbika igihe bananiwe, bashaka kuruhukira. Akaba ari icapa kinini canditseho Olempique Moteri, bacuruzaga ibyo kunywa bakanacumbikira abantu, imbere yaho hakaba hari umumotari uhetse umugenzi bambaye amakasike bari kuri moto.

Icapa kinini cane canditseho shezi Mugenzi Inosa bakaba bakoraga telefoni, bakanagira piyese zazo, bagakora n'amayekuteri n'ibindi bitandukanye. Imbere yayo hakaba haparitse moto iriho amakasike abiri, n'ibirahure bya televizeri bibiri. Kuri buri ruhande n'undi mugabo wambaye akantu k'umweru utari kugaragara.

Inzu y'ubucuruzi ifite imijyango myinshi, gumwe gufite ibara jy'umutuku, izindi ibiri zifite amabara g'umuhondo gasize ku bikuta byo mo imbere, imbere ku rubaraza hakaba hari amakaro ku ngingi hejuru hakaba hari icapa canditseho Eyateri minishopu na moto iparitse imbere ku mujyango g'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi iriho icapa kinini kigaragaza ibindu bacuruzaga cyanditseho werikamu tu korodine savisi buzinesi limitedi serivisi dutanga ikaba muri serivisi batangaga harimo serivisi z'irembo , agafotora n'ibindi bigiye bitandukanye, imbere yaho hakaba hari agatebe kateretseho ijire ikaba ifite n'inzugi ziteganye.

Inzu ifite amarangi g'umuhondo n'icyapa cyanditseho ibintu byinshi, imbere yayo hakaba hari amagare gamanitse ku nkingi ibiri z'ibyuma zifashwe n'igiti kirimo hagati y'izo nkingi z'ibyuma, hakaba hicaye umuntu hamwe n'inkingi y'umuhondo, hijya hari umuntu wambaye umupira w'ingofero g'umweru.

Resitora ishushanyijeho ibishushanyo biriho umuntu uri kurya ufite imisatsi y'umukara yanditseho "Kimaranzara resitorenti" hirya hakaba hashushanyijeho akarabyo, ibikuta bisize amarangi y'umuhondo n'inzugi zifite amarangi.

Ahantu bacuruzaga gaze nyinshi zifite ibiro bigiye bitandukanye, zikaba ziteretse ku mapave. Hirya yaho hakaba hari inzugi zikinguye, hirya hakaba hari inzu bari kubaka. Imbere y'izo gazi hakaba hari umutaka wa MTN.

Umugore wunamye uri gutandika imineke imbere ye hakaba hari inzu ifite amarangi y'umutuku umuryango umwe ukinguye undi udakinguye. Akaba ari munsi y'umutaka wa emutiyeni munsi yuwo mutaka hakaba hari aka meza gashaje karambitseho igikarito kirimo imbuto n'izindi zitambitse ngo hirya n'akandi gashaje kaka meza karirya gaterezaho ibase.

Inzu nziza cane ifite urubaraza gwiza cane, hejuru yagwo hakaba hari udutafari twiza two muri sima twiza, hasi hakaba hateretse icapa canditseho Papeteri Umuvandimwe, mo hagati y'igikuta hakaba ari n'ikindi kigaragaza ibindi bintu bacuruzaga, harimo ibyo ku kurya n'ibyo kunywa, hijya hakaba hari umujyango gufunguye bacururizagamo ibikoresho byo muri papeteri.

Inzu ifite amarangi g'ibice bibiri bitandukanye. Irangi rimwe risa n'umuhondo, irindi na ryo risa n'ubururu bwerutse. Ikagira icyapa kinini cyanditseho Byiza shopu disitiribiyuta. Akaba ari umundu urikugenda asa n'uri kuja mu ruhande rwo hirya, imbere yayo hakaba hateretse akagege.

utuduki dutoya twinji duteretse ku murongo turimo amaji gubwoko bugiye butandukanye arimo amaji g'umuhondo, amaji g'umukara, amaji gagiye kuba nk'umutuku hakaba baditseho ngo sarama hari uruganda rukoraga zino ji. Inyuma yazo hakaba hari moto iparitse n' urugi rukinguye umweru ruriho icapa kigishashi.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzaga inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye n'ibiribwa bitandukanye. Imbere yaho hakaba hari ibiti by'imitako, muri ibyo biti hakaba harimo igiti cy'umugano. Hirya yaho hakaba hari intebe, intebe y'umukara. Ruguru ku cyapa hakaba handitseho ngo:"Derose Bara". Hirya yaho hakaba hari akandi kapa ka turubo kagaragaza ibinyobwa bacuruza.

Ahantu bakorera amagare haparitse amagare menshi, harimo igare rifite utubara tugiye dutandukanye, haciyemo uturongo tw'umweru n'amabara y'umukara, akaba ari umuntu wunamye wambaye agapira gafite amabara menshi, urikora amagare n'undi uri hirya ye.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango, umwe ufunguye，undi ufunze，mo imbere y'iyo nzu hakaba harimo itara riri kwaka，hasi y’aho hakaba hari amakaro， iruhande rw'umuryango ufunguye hakaba hari umusekirite uhicaye， ushinzwe gucunga umutekano w'iyo nzu.

Inzu z'ubucuruzi zegeranye, imbere yazo hari abantu bari kugenda, imbere yaho hari sima na rigori, izi nzu zikaba zifashishwa mu gucuruza no guteza imbere inyungu z'igihugu, akaba ari inzu nziza cane zifasha mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo haparitse amagare menji n'abandu bahahagaze ,umwe wambaye agapira gasa n'icatsi n'undi wambaye ingofero usa n'uwunamye, inzu ifite amabara g'amarangi g'umuhondo n'icapa kinini canditseho duko dukunde amatungo yacu limitedi.

Isoko ritari jyiza jy'ibitaka aho harimo abacuruzi bagiye batandukanye hakaba hari umucuruzi utanditse inkweto z'amabara gagiye agatandukanye ufite umutaka n'undi uri ku ruhande nawe utanditse ibintu byari gucuruza nawe ufite umutaka inyuma hakaba hari umutaka gwa emutiyeni hari n'abantu benji bari mu isoko ry'ibitaka.

Inzu y'ubucuruzi ifite urubaraza rufite amabati y'umutuku, ifite amakaro ku bikuta byayo, inyuma yayo hakaba hari indi nzu ya sima, inyuma yayo hakaba hari urutoki, imbere y'iyo nzu ifite urubaraza rw'amabati y'umutuku, hakaba hari igiti kinini gifite amashami menshi, imbere yacyo hakaba hari abantu bane, umwe wikoreye, undi wambaye agapira k'umutuku.

Sitasiyo ya esanse, aho imodoka nyinshi zivuye mu bice bigiye bitandukanye, zizaga kunweshereza esanse. Hirya y'aho hakaba hari akazu gatoya kanditseho 'Gisa Kofi', akaba ari ahantu bafatiraga icyo kunwa c'ikawa gikoregwaga mu Gwanda.

Inzu y'ubucuruzi yubakishije amatafari ahiye, isakajwe amabati y'umweru, inyuma yayo hakaba hari igiti kinini, gifite udushami twinshi, imbere yayo hakaba harambitse inzugi, zifite amabara atandukanye, rumwe rufite ibara ry'ubururu, urundi rufite ibara ry'umukara, imbere yazo hakaba hari ibyatsi byinshi, n'igisheke giteye ku ruhande rwohirya.

Icapa kinini canditseho Darayikirina tiriti akaba ari ahandu bakorera bakora amasuku muri ago masuku bakaba basukura ibintu bitandukanye harimo: amashuka, harimo amakuvureri, harimo ingweto, harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye biri kuri ico capa, hakaba hariho na nimero ya telefoni wabasangaho.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango ibiri ifunguye, umwe ukaba uriho icyapa gitandukanye n'ikiri ku wundi, hamwe hakaba handitseho ngo hano dukora telefoni, televiziyo, regiteri, radiyo na televiziyo, bakaba bafite na piyese zabyo. Imbere yabyo hakaba hari icyapa cyanditseho Watsapu Shopu, hagati y'icyo cyapa n'inzu hakaba harimo igare.

Inzu z'ubucuruzi zisa n'izegeranye imwe yanditseho pati dekole aho bakoraga ibintu byo kudekora abageni bagiye mu bukwe inyuma yaho hakaba hari ikindi capa kiriho ahantu bacuruzaga ibinyobwa, n'ibiribwa hirya yaho hakaba hari ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Inzu yubakishije ibiti imbere yayo hakaba hahagaze umuntu wambaye igisarubeti kigiye gusa na kaki na bodaboda z'ubururu, iyi nzu uko bigaragara akaba ari yo baseragamo amafu gw'ubwoko bugiye butandukanye, imbere yayo hakaba hari ubutaka bw'umukara.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hari umutaka gwa Emutiyeni, gwanditseho momo, na Emutiyeni gufite amabara gw'umuhondo, kandi gwanditseho kanda akanyenyeri Ijana na mirongo inane na kabiri, munsi yaho hicayemo umugabo wambaye agapira k'umukara, n'umukobwa ufite ibisuko by'umukara, wicaye ku ntebe y'ubururu. Inyuma hari akajire k'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ifite imijyango itatu myiza, ku ruhande yajyo hakaba hari iyindi nzu ifite amarangi g'umuhondo nko hagati, ikaba yubakishijwe amatafari gahiye imbere yaho hakaba hari umunyonzi uhetse umuzigo, hari n'abandi bicaye imbere ya fondasiyo yayo iyi nzu ikaba ari inzu.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibyapa bibiri binini cyane kimwe kiri imbere ikindi kiri muruhande yubakishijwe amatafari ahiye. Ifite amarangi y'umuhondo asakajwe n'amabati ajya kuba ubururu, imbere yayo hakaba hari umumama uri gutambuka wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, imiryango y'iyo nzu ikaba ikinguye.

Icapa kinini cane cyanditseho "Gordeni manki bara shopu endi restorenti", bacuruza ibinyobwa n'ibyo kujya by'ubwoko bitandukanye, muri ibyo binyobwa harimo amafanta, amazi n'ibindi bigiye bitandukanye. Inyuma y'ico capa hakaba hari ibyatsi byinshi bitandukanye, imbere yaco hakaba hari akantu k'agakuta kubakishije amabuye.

Inzu y'ubucuruzi nziza ifite amakaro ku bikuta byayo meza cane gafite utubara twiza tw'umweru n'utuntu tw'utudomo tugiye kuba ng'umukara inyuma yaho hakaba hari ibicuruzwa bacuru...

Akabati karimo ibinyobwa gakoze mu biti, harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye cyane cyane higanjemo ibya marikeri, muri ibyo binyobwa hakaba harimo ibya vanti, ibya bosi n'ibindi bitandukanye, hakaba hari n'utuji dutereretse ku dukarito twanditseho noburisigantijini.

Inzu ziteganye mo hagati harimo igipangu cy'ubururu, ico gipangu kiba cyananditseho amacumbi loji, amacumbi loji no k'ururundi ruhande noneho izo nzu zikaba ziteye amarangi g'umweru, igipangu giteye amarangi g'ubururu, imbere yaho hari amapave noneho inyuma y'ico gipangu.

Embasi pulaza moteri akaba ari moteri icumbikiraga abantu benshi bagiye batandukanye, bavuye hirya no hino. Imbere yaho hakaba hari umutaka w'abajenti batangaga amayinite. Hakaba hari n'abandi bantu bagiye batandukanye benshi harimo umunyegari n'abandi bantu benshi bagiye ahantu hirya.

Inzu y'ubucuruzi ifite imijyango ibiri ziteganye bacuruzaga ibicuruzwa by'imiti yo guteresha ibihingwa kugira ngo bikure neza, hakaba hari icapa canditseho nimero ya telefoni wabasangaho na imeri yabo ,mo imbere y'iyozu nzugi hakaba hari ibicuruzwa bacuruzaga by'imifuka myinshi iteretse ku tubaho.

Ibikosi by'amabara gagiye gatandukanye, harimo: ibikosi bifite amabara g'icyatsi, bimwe amabara g'umutuku, hirya hakaba hateretse amabase garimo amabara gatandukanye nago harimo: amabara g'umuhondo, umutuku, ubururu, hejuru yaho hakaba hateretse ipanu, ipanu yo gukoresha mu guteka ifiriti hirya yaho hakaba hari ibase y'umukara hasi.

Inzu y'ubucuruzi, irimo umuntu ucuruza ibintu bijyanye n'imyenda anadoda. Harimo imashini yo kudoda, imbere yaho hakaba hari umudamu uri imbere, n'undi uri kumanura bimwe mu bicuruzwa, n'umutayeri uri imbere yaho uri kudoda inkweto.

Butike icuruzaga ibiribwa bigiye bitandukanye yitwa Urumuri rwa Gishwati , iyo butike ikaba ifite ibintu bigiye bitandukanye harimo amafu, imiceri , amaji hakaba harimo imbegeti , n'akabati kabitsemo ibicuruzwa, ikaba bifite inzugi ziteganye ziri ku mpande zitandukanye.

Inyubako nini y'ubucuruzi yanditseho hadi tiredingi endi supamaketi. Hejuru yico capa hakaba hari jalide z'ibyatsi ziri mu bibindi, hari n'umugabo wicaye kumeza imbere yiyo nyubako, hakaba hari imodoka ihaparitse ifite amabara g'umweru bakaba bacuruzaga ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ifite icyapa kinini cyanditseho tefantasti elayiti dizayini, bakaba bakora ibintu byo gutunganya imyenda, haba kuyandikaho n'ibindi bigiye bitandukanye, imbere y'iyo nzu hakaba haparitse igare ritariho umuntu, mo imbere hakaba harimo akabati karimo ibintu by'ibitabo n'ibindi byinshi.

Inzu z'ubucuruzi zegeranye cyane, imwe ifite amakaro imbere ku bikuta isa n'inzu y'ubucuruzi bacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, muri ibyo bintu harimo amagaze, imikoropesho, ku rundi ruhande akaba ari umuryango guparitseho igare, ahandi bacuruzaga ibintu bijanye n'imiceri, akaba ari abantu bari ku magare n'abandi bari kugenda.

Inzu ifite amakaro, imbere yayo ikaba ifite inkingi z'umweru n'ibikuta by'umweru, ku bikuta hakaba hariho ibyapa bibiri bigaragaza ibicuruzwa bacuruza, hakaba hari ikiriho "Amahitamo ni ayawe", hariho inzoga ya Mitsingi, Pirimusi na Turubo, ku rundi ruhande hakaba icyapa cya Coka Cola, ikaba ikinze imiryango yombi.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibyapa bigiye bitandukanye, kimwe cyanditseho Ekwiti agenti, ikindi cyanditseho Banke ofu Kigali agenti, ikindi cyanditseho miritisavisizi na Beka yacu na Wasake fotokopi, mbere hakaba hari ibintu bashyiramo imyenda bari kuyicuruza, mo imbere mu nzu hakaba harimo pulinta n'udutebe,.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzaga ibindu bigiye bitandukanye, ifite icyapa kinini cyanditseho mini arimantasiyo besite rayifu. Munsi yaco hakaba hari nimero wabasangaho, bakaba bakora amakeke, bacuruza ibindu byo kunywa, bacuruzaga n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'amazi ga Jibu gateretse imbere y'umuryango. Inyuma hari akabati k'amandazi.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hicaye umuajenti wa MTN hijya hakaba harunze ibiti by'ingwi, imbere ye hakaba hari igiti kipoto kirekire gitwaye inzinga z'amashanyarazi n'akazu ka MTN kanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri mu ruhande gw'inzu hakaba hari ibiti.

Inzu y'ubucuruzi ifite amakaro ku bikuta byayo hakaba abacuruza ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari icapa kinini kigaragaza ko bakoraga amatelefoni n'amateleviziyo n'amaregiteri, bigiye bitandukanye na nimero wabasangaho ari ikindi cyapa cyanditseho whatsappshop hirya, yaho hakaba hari iyindi nyubako iriho icapa kitari kugaragara neza.

Umumotari uri munsi y'icapa canditseho hunga hunguke Musanze ofisi kigaragaza ibintu bijaniranye n'ubuhinzi hakaba handitseho na Yuyesayidi nk'umuterankunga hijya yaho hakaba ari ikindi cyapa kiriho idarapo ry'u Gwanda rishushanyije muri Afurika, hakaba handitseho Ofise de Rwanda, hakaba handitseho na nimero za telefoni n'amerekezo.

Icyapa kinini cyane gisa naho gisibamye, ariko handitseho amahumbezi gesite hawuzi, na nimero ya telefone wabasangaho, kiri ku gipangu gifite amabara y'umukara, hari n'igiti kiri kuruhande gifite amashami menshi.

Abamotari babiri baparitse ku muha ku ruhande rw'umuhanda umwe akaba ari munsi y'icapa, undi akaba ari nko hirya gatoya. Hirya yaho hakaba hari inzu nziza ifite igipangu cyiza .Hino hakaba ari inzu iri kugaragara ifite amabati g'umutuku, n'amapoto abiri gariho insinga z'amashanyarazi.

Akarusho ni iyo havana bara, akaba ari akabari bacuruza ibyo kunywa n'ibiribwa cyane cyane Mitsingi, hakaba hegereye umuhanda gwa kaburimbo, mu muhanda hakaba harimo umumotari n'abantu bagiye batandukanye bicaye imbere y'akabari n'umuntu wambaye tisheti y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Ahantu bacururizaga ibintu bijaniranye n'ibiribwa. Hari ibirayi biri mu mufuka, imitaka itatu gumwe gwanditseho eyateli, n'ugundi gwanditseho eyateli, n'ugundi gwanditseho pirimunsi. Hakaba hari umugore wikoreye agatete karimo inyanya, n'umugabo uri imbere uri kureba muri telefoni.

Inzu y'ubucuruzi aho bacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye， harimo amakara，ikaba ifite ibikuta biriho amakaro，imbere yayo hakaba haparitse igare， ifite inkingi， ifite amabara meza， gagiye gatandukanye，bakaba bacuruza ibintu bijanyiranye，inyanya n'ibindi by'ibiribwa，n'ibindi byo gukoresha.

Icyapa kinini kiri hagati y'amazu abiri cyanditseho olempike moteri， kiriho igicupa kinini cyanditseho mitsingi，imbere yacyo hakaba hari utuntu duteretsemwo ibyatsi bya jaride，bikaba moteri mu busanzwe ari ahantu abantu baruhukira bakahafatira n'amafunguro.

Urugi rufite ibirahure muri ibyo birahure hakaba harimo umundu wambaye agapira keza ,wambaye n'ipandaro y'umukara , ufite n'agasakoshi, ufashe na telefone mu ntoki ,hakaba hariho n'igishushanyo kigaragaza ibyo bacuruzaga birimo ibikomoka ku nka harimo kesito n'ibindi bigiye bitandukanye.

Banki ni ahantu abantu bavuye hirya no hino baza kubitsa amafaranga, kugira ngo bacunge umutekano wayo hatazagira umuntu uyasagarira akabayiba, bityo bakayahomba. Ikaba ari banki ya ikwiti, imbere yayo hari abantu babiri umwe ufite imisatsi y'umukara n'undi wambaye akagofero k'umweru.

Inzu nziza cane isakajwe ibyatsi. Imbere yayo hakaba hari amapave yo mu bwoko bw'amabuye, agiye kwinjiramo. Imbere hakaba harimo agatebe ko kwicaraho. Imbere hakaba hari umuryango gwayo gufunze. Mu mbande zayo hakaba hari ibiti bifite amabara meza kandi bitoshye.

Inzu igeretse gatatu ifite ibirahure byinshi cane，imbere yayo hakaba haparitse imodoka ibiri zo mu bwoko butandukanye，imwe ya kiya iyindi ya toyota，hakaba hari n'abandi bantu bafashe ikintu kimeze nk'igicugutu basunikiragaho imizigo，hijya yaho hakaba hari akajaride keza cane.

Salo nziza cyane ishashemo umukeka uteretseho utumeza dukoze mu biti, haba harimo intebe z'ibifuteyi bifite n'imisego, hirya hakaba hari amadirishya n'amarido yo gufungisha ayo madirishya.

Icapa canditseho Tawuni Hoteli Akagera ikaze limitedi. Kikaba kiri kuranga ahantu hoteli iherereye, hakaba ari ahantu heza cane. Kiri munsi y'akazu binjiriramo bari kwinjira ha muri iyo hoteli ifite amabara gagiye gatandukanye, imbere yayo hakaba hari ipoto itwaraga insinga z'amashanyarazi.

Orempike moteri, ni moteri icuruzaga inzoga zigenda zitandukanye cane cane Amusiteri, Biya, hakaba hari umundu wicaye imbere yayo, wicaye mu kazu ngo atangaga esanse. Imbere yayo hakaba hari imodoka iri mu ruhande rumwe, no mu rundi hari iyindi ifite amapine harimo iringi. Ifite ibara ry'umweru inyuma yaho hakaba hari tente ifite...

Ahandu bacuruzaga imyenda zo kugurisha zifite amabara gagiye gatandukanye muri ago mabara hakaba harimo: zimwe zifite ibara jy'umutuku, amabara g'umukara ,amabara g'umuhondo, n'amabara g'umweru, n'izindi zigiye zitandukanye inyuma yaho hakaba hari umundu umeze ng'uwihishe wambaye inkweto nziza cane wugamye uri munsi y'inzu yubakishijwe amatafari gahiye...

Isiniya iteretse ku kantu kameze nk'utuntu tw'utwuma, hakaba harimo ibiraha byinshi cane, n'umuntu wicaye ku ruhande ufashe agashashi. Munsi ye harimo ipanu yo gutekeraho bino biraha. Hirya hakaba hari ibitaka by'umukara...

Ibijumba bifite amabara atandukanye. Harimo ibijumba by'umweru, n'ibijumba by'umutuku. Biteretse ku gifuka ibijumba akaba ari kimwe mu bihingwa bikungahaye ku indungamubiri, zirimo ibitera imbaraga. Kandi umuntu wakiriye akaba yajya mu kazi agakora umunsi wose atagize ikibazo cy'inzara.

Isoko bigaragara ko ari isoko bacururiza hasi，muri iryo soko harimo abantu benshi bagiye batandukanye，bazanye ibiribwa bigiye bitandukanye， n'abaje guhaha muri ibyo biribwa harimo pavuro， harimo ibitunguru， harimo puwaro， harimo amashu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye， abantu bakaba baje guhaha ibyo guteka.

Isoko bacuruzaga ibirayi byinshi cane bya kinigi. Hakaba hari umugabo uhagaze imbere y'umunzani, inyuma ye hari ibindi birarayi byinshi cane. Inyuma hakaba hari ingingi z'ibiti, inyuma hari n'abandi bandu basa n'abari kugenda iruhande rw'iryo soko. Ibirayi akaba ari igihingwa gitangaga ubukungu cyane, kubera ko bihazaga amasoko y'Igihugu.

Akabati karimo inkweto nyinshi z'ubwoko butandukanye kandi zifite amabara agiye atandukanye. Akaba ari akabati gakoze mu biti, hakaba harimo inkweto zifite amabara y'umutuku, zifite amabara y'icyatsi, zifite amabara y'ubururu n'izifite amabara y'umukara.

Isoko rinini bacuruzaga ibiribwa bigiye bitandukanye risakajwe amabati menshi, muri ago mabati hakaba rimwe ribonerana ricagamo umucyo, hakaba harimo abagore. Umugore umwe wambaye agapira k'umutuku n'ingofero n'ibitoki birambitse hasi ku butaka n'abandi baje guhaha n'abandi bari gucuruza.

Isoko bacuruzaga ibintu by'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga ibitunguru puwavuro n'ibindi bigiye bitandukanye hakaba harimo abantu benshi abagore n'abana hakaba risakajwe amabati murago mabati hakaba harimo utubati tubonerana tunyuragamo urumuri.

Imugore utanditse igihingwa cy'imyumbati, hirya ye hakaba hari ibase irimo n'iyindi myumbati, ipfundikijwe n'iyindi base, ifite amabara g'ubururu, umugore akaba yambaye mwamini, hari n'undi uhagaze waje guhaha, n'undi uri k'urundi ruhande wambaye bodaboda z'umuhondo, inyuma ye hari n'undi uri gucuruza utunyanya dutanditse ku gifuka.

Isoko bacuruzaga ibirayi, aho abacuruzi benshi bazaga baje gucururizamo ibirayi, n'abaguzi baje guhaha ibirayi haba ibyo guteka cangwa ibyo guhinga. Hirya yaho hakaba hari inzu z'ubucuruzi zifite amarangi g'umuhondo, hakaba hari umugore wicaye witeze igitambara c'ubururu.

Isoko ry'ubucuruzi bacuruzamo ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane harimo amashu, ibitunguru, inyanya, imiteja, pavuro, puwaro, intoryi, karoti, ifu nibindi bitandukanye, hakaba arimo abacuruzi bategereje abakiriya kugira barebe ko babana.

Isoko, isoko ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo pavuro, harimo ibitunguru, harimo seleri, harimo n'abagore bari gucuruza bategereje abakiriya, kugira ngo baze bahahe, muri iryo soko rikaba ari rinini, risakajwe n'amabati menshi, hakaba harimo abanu.

Isoko jyiza cane ririmo ibintu bigiye bitandukanye aho bacuruzaga ibintu bijanye n'imyenda biziri imbere zimanitse imbere y'isoko hakabamo imbere ahantu bacuruzaga amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye hakaba hari abantu bari kuhagendera baje guhaha n'abaje kugurisha.

Ingweto zitanditse ahantu zikaba ziri ku ihema z'ubwoko bugiye butandukanye. Iryo hema rikaba rifite ibara ry'ubururu, inyuma yaryo hakaba hari inzu ifite amatafari gahiye, muri izo ngweto hakaba harimo iz'ubururu, iz'umweru, n'iz'agandi mabara gagiye gatandukanye zo gucuruza.

Inzu imanitsemo ibikoresho bya elegitoronike. Muri ibyo bikoresho, harimo amakuteri go kwambara mu matwi g'utundu tubiri. Hakabamo sharijeri y'umweru ifite n'akagozi kayo, n'izindi kuteri zo kwambara mu matwi nini cane, zikaba zimanitse ku kandu kameze nk'akabaho k'agati.

Ahantu bakora amasafuriya yashaje, afite ikibazo cyo gupfumuka bakayasana akongera akaba mazima. Hakaba hicaye umugabo kubuye ufite ishati y'ubururu wambaye n'ipantaro y'umukara n'undi utari kugaragara uhetse igikapu amasafuriya akaba ateretse ku mabuye.

Udukono dusa neza cane dufite amabara gagiye gatandukanye aho hari imirongo y'umweru igiye icamo hagati na hagati hakaba hari n'imbabura iteretse hirya biteretse ku mucaca hirya hino yaho hakaba hari amabuye udukono tukaba twifashishwa mu gutegura ibyo kurya bya buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyubako y'ubucuruzi tujya guhahiramo ibintu bigiye bitandukanye haba ibikoresho bya elegitoronike nibindu by'ibiribwa hakaba hari icapa kinini cyanditseho kamoni mirongo itatu kiriho amatelefoni kiriho n'abantu babiri ku rundi ruhande handitseho kamoni, imbere y'iyo nyubako nziza cyane hakaba hari abantu bari ku hajya binjira mu iyo nyubako.

Aha hantu bacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, hateretse udufuka tubiri kamwe ka kawunga, akandi karimo ifu y'igikoma, inyuma yako karimo ifu y'igikoma, hakaba hari igikarito, hijya y'igikarito hakaba hari ibindi bikarito, hejuru yabyo hakaba hari situruwaya zo gucuruza.

Isoko bacuruzaga ibikoresho byo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, muri ibyo bikoresho hakaba harimo utuyunguruzo, harimo ibisokozo, harimo amaga go kogana, inyuma yaho hakaba hari ibindi bikoresho byinshi cane n'icapa kinini cya Emuti ene cyo kugaragaza ukuntu wagura ama inite.

Isoko bacuruzaga ibintu by'ibiribwa byiganjemo ibintu by'imbuto, muri byo bintu hakaba harimo imineke, harimo amatunda, harimo imyembe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, rikaba ryukishijwe udutafari duhiye, harimo abantu baje gucuruza bategereje abaguzi baza guhaha.

Isoko bacuruzamo ibintu bijyaniranye n'ibiryamirwa, imyenda n'inkweto hakaba hari, ibikuvureri biri hanze bifite amabara agiye atandukanye, hirya y'ibyo bikuvureri hakaba hari umudamu ufite umusatsi w'umukara, uteruye umwana umushyize ku maguru.

Ahandu bacururizaga ibindu bijaniranye n'ingweto. Hari ingweto nyinji za bodaboda ziharunze. Imbere y'izo ngweto hakaba hari umuhungu wambaye ipantaro igiye kuba nk'igitaka, n'umukobwa ufite agashakoshi mu rutugu, n'umundu uri ngo hino wambaye ipantaro y'umukara, na badaboda z'umukara ukandagiye ku bitaka.

Imyenda myinshi zirunze hasi zifite amabara gatandukanye, aho harimo izifite amabara g'umuhondo, izindi zifite amabara g'ubururu, izindi zifite amabara ga kaki zirambitse ahantu hameze nko kuri rigori, rigori iriho utwuma hejuru tuyifashe. Hirya hakaba hari inzu isa nk'iyihishe ifite amabuye g'amatafari, hino hakaba hari amapave.

Inzu y'ubucuruzi ikaba iparitseho igare, imbere bakaba bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, hanze hakaba hari udutebe tuharambitse, hakaba hari ibyapa byinshi byerekana ibyo bacuruza, hakaba muri ibyo byapa handitseho kimwe cumi na kane hakaba ari ahantu heza.

Inyubako ya etaje igeretse inshuro itatu. Imbere yayo hakaba hari umundu wambaye agapira k'umutuku n'ingofero, uhagaze hamwe n'itara rirerire. Inyuma ye, hakaba hari jaride irimo ibyatsi byiza. Inyuma yaho hakaba hari ibigega, ibigega biri hamwe n'ibyuma bikoze kare. Akaba ari ibyo kurinda ikigega kugira ngo kitangirika.

Inzu ikinze, urugi rukaba rukingishijwe agapata karimo ingufuri. Hirya yaho hakaba hamanitse udukapu twa nzarwihahiramo tw'amabara gagiye gatandukanye. Hirya y' utwo dukapu, hakaba hari abandu bahahagaze. Bahagaze kuri sima hasi, imbere yaho akaba ari akandu kameze nk'akararo k'ibiti by'imbaho.

Abantu benshi bateraniye mu isoko, hari abaje guhaha hari n'abari kugurisha. Hakaba harimo ibiribwa bigiye bitandukanye amavuta, amavoka, ibicupa n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'udufuka kugira ngo barebe ko.